Imihanda myinshi itandukanye iri mu gihugu leta yashyizeho uburyo bwiza bwo kuburira abayigenderamo yaba abatwara ibinyabiziga, cyangwa abagenda n'amaguru kuko bitewe n'aho ugezeyo Hababa hari icyago cyangwa kidahari barakuburira ukaba wamenya ikiri imbere ,mbere y'uko hagera.